Inteko rusange y'abaturage .

Ingoma kimwe mu bikoresho by'umuziki nyarwanda, imbyino gakondo zikoreshwamo ingoma, kandi ingoma ikaba iva ku ruhu rw'inka.

Igihingwa cy'ubunyobwa giteye mu murima, kiri gukura neza kandi kimeze neza.

Kugosora imyaka nk'ibishyimbo, ibigori, amasaka, ingano biba ari byiza.

Umuco wo gusangira cyane cyane ku munsi w'umuganura, icyo kunywa n'icyo kurya. Ibi binezeza abantu kandi bigatuma babana neza.

Imbyino gakondo, umuziki gakondo, hakoreshejwe ibikoresho bidasaba amashanyarazi, cyangwa izindi mbaraga.

Imirimo y'amaboko harimo kuboha ibirago by'imisambi, cyane cyane uyu ni umumo w'abakobwa n'abagore, mu gihe cy'izuba iyo barangije gutera imyaka.

Ku munsi w'umuganura abantu basangira byose. Ni ikimenyetso cy'umunezero n'ibyiza abantu bagezeho. Kandi binezeza abantu. Uyu ni umuhango mwiza cyane ntuzacike mu muco nyarwanda.

Inyubako za leta, insengero n'ahandi hatangirwa ubuhereza n'ubufasha butandukanye, ku baturage.

Inzu y'Imana, ni Kiliziya, aho abakirisitu bateranira basenga Imana. Aha ni heza abantu baruhukira mu rusengero kandi bakishima.

Uruzitiro rw'ikigo cy'amashuri cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi, ruba rwiza kuko rutandukanya abantu, bakwinjiramo ntibinjiremo uko babonye, kandi bikaba byiza ko ibikorwa biri imbere biba birindiwe umutekano.

Agace karangwa n'iterambere, kagaragaramo amashuri, umudugudu, ibitaro, aho abantu bajya kwivuriza, isoko n'ibindi, ndetse hakaba hanyuze n'imihanda ikoreshwa n'abantu bose, n'amamodoka mu ngendo zitandukanye.

Ubwikorezi bw'ibicuba by'amata, akenshi ibi bicuba biba byuzuye amata, aba bayatwaye ku magare, bayagemuye ahantu bakunda kuyanywera.

Ubutwazi bw'ibintu n'abantu, hakoreshejwe imodoka dusanzwe tubona tuzi cyane.

Igikorwa cy'imikino ngororamubiri cyane cyane nko gusimbuka, kwiruka, ibi ni ibishimisha abantu iyo hari amahoro, bameze neza, barabikunda.

Umukino wo gusiganwa ku magare, muri iyi minsi uteye imbere. Cyane cyane inaha mu Rwanda. Gusiganwa ku magare ni umukino abantu bakunda. Benshi baba bashaka kuwureba igihe wabaye, abantu baba bashungeye ku muhanda.

Imikino ngororamubiri ikinirwa mu gace k'iwacu, ifasha abaturage kugira ubuzima bwiza.

Imikino ngororamubiri, n'ingirakamaro mu buzima bwacu.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo n'inkengero za wo, aho abagenzi bagendera n'imodoka zikagenda ukwazo. Kandi ufite isuku, urashimishije kuwunyuramo.